Gusuzuma abarwayi indwara ni byiza, kuko hari igihe bashobora kwanduza bagenzi babo iyo bahuye baganira, ibi bikaba byatuma bagubwa neza mu gihe bakurikiranwe neza.

Abakoresha amavomero ya kera, aho bigusaba gufata icyuma ukajya ukimanuro ukizamura kugira ngo amazi aturuke mu butaka, barinubira umwanya bahatakaza barimo bashaka ayo mazi.

Imodoka za yuweni, zishinzwe kugemura ibibwa ahantu bitari, harimo n'abana bakeneye inkunga, barashishikarizwa kwiyandikisha mbere yuko bitangwa.

Abana kenshi iyo batojwe kugira isuku, bibaviramo ubuzima bwiza, igihe bari ku ishuri bagomba guharanira ibikorwa byimakaza isuku, kuko burya ngo isuku ni isoko y'ubuzima.

Ababyaza bakorera mu karere ka Rulindo, bavuga ko bitewe n'imihindagurikire y'ikirere, ubuvuzi bukomeje kuba ikibazo, ku bantu baza babagana, kuko ngo imiti iri kubura cyane.

Abakorerabushake ndetse n'abaganga nyuma yo gutera inkingo za covid cumi n'icyenda, bateraniye hamwe maze bafata ifoto y'urwibutso mu rwego rwo kugira ngo bajye bibuka ibi bihe u Rwanda rwanyuzemo ndetse n'isi yose.

Abana iyo bakarabye intoki mbere yo gufata ifunguro rya saa sita, ku ishuri aho baba bagiye kuva mu gitondo, bituma batarwara indwara zirimo, amibe, inzoka zo mu nda, n'izindi.

Ni byiza kugira ngo igihe uhuye n'abantu benshi, cyangwa ahantu hari buteranire imbaga y'abantu, ukwiye kwambara agapfukamunwa kugira ngo wirinde indwara z'ibyorezo zirimo na kovide cumi n'icyenda.

Gukingiza abana indwara y'imbasa, ni bimwe mu bintu biri gutanga ikizere bitewe n'uko abantu baza babagana bahabwa na serivise zo kubapfuka igihe bakomeretse, ibi bigatuma ubuzima bwabo bugenda neza.

Abana iyo bari kwishima bari gutwara amazi mu ntoki yabo birabafasha kuko baba bafite akanyamuneza igihe birukansa imisozi baza ku ishuri, bityo ibyunzwe byabo bikaba byagabanuka bitewe no kwiyuhagira mu maso.

Gukaraba intoki kenshi ni ibintu by'ingenzi kubera ko igihe umuntu atabikoze cyangwa ngo abyiteho, bikurura ingaruka zirimo umwanda ndetse no kuba yarwara impiswi, akaba yarwara akazahara, akajya mu bitaro.

Ubushakashatsi buri gukorwa ku ndwara z'ibyorezo birimo na kovide cumi n'ikenda, bugaragaza ko hari byinshi bikwiye kwibandwaho mu gihe abantu bitwararika, ibi byavugiwe mu nama irimo minisitiri.

Ababyeyi baza gukingiza abana babo bari mu kigero cy'imyaka irindwi kuzamura, bavuga ko igihe bahawe imfashabere bibafasha. Kugira ngo babashe kubaho neza kandi ubuzima bw'abana babo bugende neza.

Ni byiza ko igihe ugiye kunywa amazi iyo nta gikombe ufite uri bukoresha, ugomba gukoresha intoki zawe wavukanye kugira ngo uyanywe neza kandi utekanye mu cyimbo cyo gushyira umunwa kuri robine.

Iyo abana barimo bazenguruka bishimye, bituma bagira akanyamuneza mu buzima bwabo bityo bakabaho bishimye batekanye nta kibazo na kimwe bafite, iki niko ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera abana kivuga.

Umuyobozi w'ibitaro Kigali Psycho-Medical Center, bishinzwe kurengera abantu bafite ibibazo by'ihungabana ndetse n'abafite agahinda gakabije, arakangurira buri wese kubigana kugira ngo ahabwe inama z'ubuvuzi.

Indwara y'ibisazi ndetse izwi cyane nk'indwara yo mu mutwe, abantu bayifite usanga bahabwa inkwenene ndetse n'abandi bitewe n'uko batiyitaho ndetse bagakora n'ibikorwa bigayitse.

Ku bufatanye na mayisolo, ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza imirasire y'izuba mu baturage. Hari ubukangurambaga ku bantu bifuza kugana iyi serivisi, ko habayeho igabanyirizwa rya mirongo itanu ku ijana.

Guhorana indwara yo kwigunga, abashakashatsi bavuga ko bitera kwiheba ndetse umuntu akaba yakwiyahura. Ni byiza guhora ugana ubuvuzi kugira ngo ugirwe inama kenshi z'uko wabaho wishimye.

Abana bakiri batoya bagaragaje akanyamuneza ubwo bahabwaga ifu ya shisha kibondo cyane ko bose bari bari munsi y'imyaka itanu, ibi bikaba byatumye bahabwa imfashanyo izajya ibitaho.

Umuyobozi w'ikigo Minubumwe gishinzwe kurengera ubumwe bw'Abanyarwanda no guteza imbere gahunda z'umuco ndangagihugu, arabwira Abanyarwanda bose ko bakwiye gukundana bakirinda amacakubiri.

Uburwayi bwo mu mutwe bukomeje gutera ikibazo abanyarwanda kuko hari umubare wagaragajeko igihe abantu babuze uburenganzira bwabo bakurizamo gusara ndetse bakirukanka ku musozi.

Abanyeshuri bafite imishinga bahuriyemo yo kwiteza imbere harimo n'ubworozi, ubudozi ndetse n'ibindi bibyara inyungu, bakanguriwe kwiteza imbere kubera ko bizabafasha mu bikorwa byabo byo kwihutisha iterambere.

Indwara yibasira ubwonko cyangwa se izwi nk'ibibyimba by'ubwonko, ishobora guteza uyirwaye ibisazi akaba yakwirukanka akajya ku gasozi, agakuramo imyenda.

gGhora umuntu aseka na byo ni byiza, kuko hari benshi byananiye bahora mu mihangayiko. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyo umuntu ari guseka cyane bituma bimwongerera iminsi yo kubaho.

Gukura abana amenyo ntabwo byari bimenyerewe cyane bitewe nuko iyi cyari ikibazo cy'abantu bakuze, ariko uko iminsi igenda ishira niko ibyorezo bigenda bifata n'abana bakiri bato.

Guhabwa ibihembo n'umwarimu byongerera umunyeshuri ubihawe icyizere cyo kwiga kandi ashyizeho umwete kugira ngo n'ubataha azaba uwa mbere, akomeze guhiga abandi mu masomo.

Kwasamura umwana, ugashyira ikinini mu kanwa, hari igihe inzoka ze zo mu nda zigira imbaraga nkeya, ubuzima bwe bugakomeza, kandi akaba yakomeza amasomo.

Kwiborosa ukoresheje umuti w'amenyo mwiza kandi usukuye byongerera abana akanyamuneza kubera ko ntacyo baba bikanga usanga ahanini biterwa nuko bashishikarizwa kubikora kenshi.

Bimenyerewe ko indwara y'umuvuduko w'amaraso yibasira abantu bakuze, ariko kuri ubu ikomeje no kugaragara mu bana batoya, umuganga wese asabwa kugira ngo apime buri muntu uje amugana kugira ngo amenye uko ahagaze.

Kutaryama neza ngo uruhuke bitama urwara muzunga ndetse benshi bakunze kwita isereri, bitewe n'uko, nyirayo aba yumva afite ibibazo bikomeye mu kazi arimo gukora ndetse n'akandi muri rusange.

Bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu guhangana n'indwara zibasira umubiri, hari ubuvuzi bwaje bwa kijyambere aho buri wese ahajya agahabwa utunini tumworohereza igihe yaba yarwaye inzoka zo mu nda harimo n'amibe.

Hari bamwe bahawe amagare yo kugenderamo igihe bamugaye , akaba yahawe abaturage batuye mu murenge wa Gishamvu kugira ngo ajye abafasha mu mibereho yabo ya buri munsi.

Kunywa ibinini bibiri buri munsi bituma umurwayi abaho kandi akabaho atekanye ntacyo yikanga bitewe n'uko aba ari byiza cyane.

Abasaza bakunze kwigisha abakiri bato guhorana umuco wo kubaha ndetse no kumvira ababaruta cyangwa se abo baruta, bitewe n'uko igihe ubikoze neza abikurikije agira ubuzima bwiza.

Muri gahunda yo guteza imbere itumanaho mu Rwanda, abasheshe akanguhe na bo ntago basubijwe inyuma kubera ko bahawe telefoni ngendanwa kugira ngo na bo bajye babasha kumenya amakuru ku gihe, kandi bamenye gahunda za leta.

Kubyutsa umurwayi ni ingenzi cyane kubera ko hari benshi bakomeje kubikoraho ubushakashatsi bagaragaza ko iyo ahagurukanye imbaraga nyinshi imitsi ye irushaho kumurya cyane.

Ubushakashatsi bugaragaza ko gukora siporo neza, ndetse kenshi, nibura gatatu mu cyumweru, bifasha nyirayo kwiteza imbere mu mubiri we, ndetse n'abasirikare bakiyongera.

Guhabwa utunini tu tuzwi nka palasitamolo, bifasha imitsi y'ubwonko gutwara amaraso neza, kuko igihe umurwayi adufashe biramworohereza cyane kuba yakomeza gahunda ze kuko ahita agubwa neza.

Igihe umuntu ageze mu zabukuru, ubwenge bwe busubira hasi ndetse kandi hari benshi bavuga ko asubira bwana ariko igihe umusaza atojwe ibikorwa by'ingororamubiri, abaho neza.

Abasheshakanguhe barimo abakecuru n'abasaza bakora ibikorwa by'umurenge bizwi nka viyupi, bavuga ko amafaranga bahabwa agenda bafasha mu mibereho yabo ya buri munsi. Aho baguramo udutungo tukaba twabagoboka mu gihe bahuye n'ibibazo.

Gufata ifunguro ririho imboga rwatsi nyuma ukarenzaho salade cyangwa imbuto, bifasha umubiri wawe guhora wishimye ndetse ugasa neza bimwe benshi bakomeje kuvuga ko byitwa guhorana itoto.

Abakora ibikorwa by'ubutabazi mu bitaro bya Gihinga baravuga ko abasaza barindwi ku ijana, ari bo bashobora guhaguruka mu kagare igihe bari mu zabukuru bitewe n'uko intege zabo ziba zarashize.

Abakecuru n'abasaza bavuye muri VUP, barishimira uburyo bahawe ikaze ndetse bikabafasha kubona udufaranga tuzajya tubunganira mu gihe babuze epfo na ruguru.

Akanyamuneza ni kose, mu muryango wa Alpha bitewe n'uko amaze guhabwa ubuvuzi bwiza, ubu akaba ashimira imana n'abaganga bamubaye hafi ubwo yari arwaye, umugongo uturuka ku mubyibuho ukabije.

Umuvuduko ukabije w'amaraso ukomeje kwiyongera mu bantu basheshekanguhe, bitewe n'uko ubudahangarwa bw'ubuzima bwabo, buba bwaragabanyutse, ibi birashimangirwa n'umuganga ukora mu karere ka Muhanga, avuga ko ibi bintu bikwiye gushyirwamo imbaraga.

Mu gihe umuganga ari gusuzuma uje amugana, biba ngombwa ko akoresha inkuru zitandukanye kugira ngo uwo ari kuvura ataza kurambirwa cyangwa se yumve uburibwe bukabije igihe ari kumusuzuma.

Indwara y'amenyo yibasira abasaza ndetse n'abantu basheshe akanguhe igihe umuntu arwaye iryinyo biragoye kugira ngo abone agatotsi, bitewe n'uko imisonga aba ari myinshi ndetse akaba atabasha gusinzira neza.

Ubukangurambaga buri gukorwa kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe uburyo ibyorezo bikwirakwira mu baturage iyo byateye, harimo ibiganiro byatanzwe ku bitabiriye aya mahugurwa barenga magana atanu.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu bufatanye na minisiteri y'ubuzima minisante, kirakangurira buri muturarwanda wese gufata nibura inkingo ebyiri za covid cumi n'icyenda kugirango abashe kuzahangana n'iki cyorezo.

Mu rwego rwo guhagarika icyorezo cya mabaga, Minisitiri w'ubuzima Nsanzimana Sabin yatangaje ko hakwiye gushyirwaho gahunda zijyanye no gukaraba intoki kenshi.

Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu babiri mu icumi baba badatinya urushinge, abandi umunani bose bakaba batinya gukingirwa, ibi bikaba bikomeje guteza inkeke, bitewe n'ibyorezo biriho ubu bisaba kugira ngo abantu bakingirwe.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe imitangire myiza ndetse na serivisi z'ubuzima Rwanda national communitel Police kiravuga ko muri uyu mwaka ubwandu bwa virusi itera sida bwazamutse cyane ku kigero cya mirongo itanu kw'ijana.

Kwipimisha umuvuduko w'amaraso ni byiza kuko abana batoya nabo usigaye ubibasira, mu gihe byari bimenyerewe ko ababyeyi bari mu za bukuru basaza rero ifata.

Abakorerabushake bakorera mu murenge wa Nyarubaka, bavuga ko bishimiye gahunda zo gupima imivuduko y'amaraso ndetse na kanseri. Ibi bakaba babikorera mu ngo aho batuye.

RCC ni ikigo gishinzwe kubungabunga ndetse no kurengera ubuzima bw'abantu, mu bijyanye no kwirinda icyorezo cya kanseri kuko ari cyo gituma abantu bapfa.

Bimwe mu bigo bikora ubu ibikorwa by'ubuvuzi mu murenge wa Tumba mu karere ka Huye, bavuga ko bahawe ibitanda bigezweho byakira abarwayi bitewe n'uko uwakiryamyeho arota neza.

Bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu gupima indwara zitagaragara, icyo tukimenyereye cyane nka mikorosikopi, ikoreshwa no mu gusuzuma indwara zaba zihishe mu mazi adatetse, akaba ariyo mpamvu abantu bakangurirwa kuyateka mbere yo kuyaywa.

Zimwe muri farumasi zigenga mu mujyi wa Kigali zitanga serivisi z'ubuvuzi, abaza bazigana bavuga ko zitanga icyizere cyiza mu buvuzi gakondo.

Ibikorwa by'ubuvuzi bimaze gutera imbere, mu bitaro by'Umwami Faisal, aho byibura imashini mirongo inani arizo zifashishwa mu gutanga ubuvuzi, ndetse gusuzuma abarwayi baje babiga.

Abarembeye mu bitaro byitiriwe umwami Fayisari mu mujyi wa Kigali, bavuga ko nubwo bimeze bityo ubukangurambaga bukomeje gukorwa kugira ngo abantu bagenda basebya ibi bitaro ko bakwiye guhagarika.

Medical research institute ni ikigo gishinzwe kubungabunga ubuzima bw'abantu ndetse n'ubushakashatsi bujyanye n'imivurire, ndetse no gutanga imiti igiye itandukanye. Harimo iya kanseri, diyabete, ndetse n'izindi.

Ibitaro bya Shyira biherereye mu murenge wa Nyakabanda, mu karere ka Gisagara, nabyo byatejwe imbere bishyirwamo gahunda y'itumanaho izajya ifasha korohereza abaganga bakumvikana neza igihe bavura.

Abakoresha ikigo nderabuzima cya Gishweru mu Karere ka Nyamagabe barishimira ubuvuzi bahabwa, ndetse na serivisi bitewe n'uko bibagabanyiriza ingendo bakoraga bagana ibitaro bikuru by'Akarere.

Ibitaro bya Kitabi mu karere ka Gicumbi, bivuga ko biri kuvugurura ibikorwa byabyo mu mirenge igiye itandukanye igize aka gace. Icyiza ni uko abaturage babifitemo umuhate mu kubikora.

Ibitaro bitanga ifatabuguzi no kwivuza, bizwi nka mituweli de sante, bivuga ko igihe umurwayi aje ayigana afite iyo gahunda, bimworohereza kwishyura imiti yahawe, ndetse n'ibizamini aba yafashwe.

Ababyeyi bari mu zabukuru, buri gihe bagirwa inama zo kujya kwa muganga nibura kabiri mu mwaka kugira ngo barebe neza ko umubiri wabo n'imisemburo biri gukora, kuko imitsi yabo iba yarabaye rubagimpande.

Kwipimisha sida ni kimwe mu byizatanga igisubizo cyiza urebye ku bandi bagiye bahura n'iki kibazo usanga bavuga yuko iyo batabikoze gihe bahura n'ibibazo bikomeye cyane harimo no gutakaza ubuzima bwabo.

Ibitaro byubatse neza, biri ahantu h'icyerekezo, bifasha abarwayi ndetse n'abarwaza kumva batekanye kandi ntacyo bikanga kuko baba baritaweho.

Mu gutozwa indangagaciro ndetse na kirazira, hari benshi bahuguriwe kwita ku barwayi ndetse hanashyirwa amavuriro menshi agurisha imiti, mu mujyi wa Kigali ndetse no ku zindi nkengero.

Ibitaro bya Kagitumba biherereye ku mupaka wa Uganda n'u Rwanda, byakira abarwayi nibura magana atanu buri munsi, bahanyura baje gufata ibizamini kugira bamenye uko bahagaze.

Hari benshi barwara bakaba bamara nibura imyaka itatu mu bitaro, icyo gihe inshuti n'abavandimwe baba bararambiwe, ariko ibyo suko bimeze mu gihugu cy'Ubuyapani, kuko ibitaro ari byo bikwitaho ubundi ukabaho neza kandi utekanye.

Umugongo ni indwara ikomeje kuzahaza abatari bake ku isi, harimo n'abari munsi y'imyaka mirongo itatu n'itanu kandi ibyo bikaba bitari bimenyerewe cyane.

Kuvunika ni bimwe mu ndwara ikomeye cyane isaba igihe kirekire kugira ngo ivurwe kandi umuntu akire, abaganga iyo bagupfutse bagushyiraho ikitwa sima. Iki kimaraho amezi nibura atandatu.

Gukomereka ku ivi, bituma hava amaraso menshi cyane ubundi igufwa rikunze kwitwa ruseke rikangirika cyane, bigateza agahinda gakomeye nyiraryo ndetse n'abandi babana na we.

Kunywa ritiro nibura ebyiri z'amazi ku munsi, abahanga bagaragaje ko byongera akanyamuneza ndetse n'amaraso akagenda neza mu mubiri, igihe utabikoze gutyo uhura n'ibyago.

Indwara y'umutima akenshi yibasira abantu bafite ikibazo cy'ubuhumekero ndetse n'intege nkeya z'umubiri, ariko ubushakashatsi bugaragaza ko mirongo icyenda n'icyenda ku ijana, iyi ndwara ishobora kuvurwa igakira.

Kuvunika igufwa ryo mu ivi, bigusaba kumara amezi mirongo itanu mu bitaro, birakwiye ko rero umuntu akora siporo nyinshi kugira ngo yirinde ko habaho iki kibazo.

Birakwiye ko umuntu umaze gukora siporo zisaba ingufu nyinshi, afatata ironji ndetse na pome kugira ngo asubirane imbaraga, mbese agumye kugira ubuzima bwiza.

Amazi y'urubogobogo ni ingenzi mu buzima bw'umuntu, kuko umuntu wayanyoye aba yumva ameze neza nta kibazo afite kandi umubiri we utuje.

Gukanda kanda imitsi y'abarwayi bafite za rubagimpande ni ingenzi kubera ko byorohereza abaganga kumenya ikibazo cy'imitsi ndetse bakaba bahangana na cyo ubundi ubuzima bwabo bukaba bwagenda neza.

Ubudodo bukoreshwa mu kudoda imyenda, bwifashishwa igihe habuze ubundi buryo bwakoreshwa kugira ngo umwenda ugaragare neza kandi ube wabasha kugurwa cyane ku isoko ry'umurimo.

Bimwe mu byifashishwa mu guhangana n'umuvuduko ukabije w'amaraso ku bana ndetse n'abakiri bakuru harimo pome n'indimu ndetse n'ibindi byafasha kwirinda umubyibuho ukabije.

Gukora siporo ngororamubiri, guterura ibyuma ndetse no gukora izindi zifasha umubiri kurambuka ni byiza kuko igihe umuntu wabikoze kenshi ahura n'ibyiza bikomeye kandi bifite umumaro.

Iyo umuntu agize ubwoba bwinshi cyane, bimusaba ko akora siporo nyinshi, akirukanka nk'ibirometero birindwi kugira ngo umutima ubashe gusubira mu gitereko. Igihe atabikoze ashobora gukuramo ingorane zirimo no kubura ubuzima bwe.

Bimwe mu binini byifashishwa mu kugabanya ububabare, bimaze gufasha abantu batari bake bitewe n'uko biborohereza bakabasha gutora agatotsi igihe bari mu bitaro cyangwa bari mu ngo zabo baryamye, ibi ni byiza cyane kandi birakwiriye kuri buri wese.

Iyo umuntu akoze siporo, aba yumva nta kibazo na kimwe yagira mu magufwa ndetse n'imikaya y'umubiri we bitewe n'uko igihe ari kwirukanka bimufasha kwirinda impanuka izo ari zo zose.

Ni kenshi bimenyerewe ko abagabo ari bo bahariwe, cyangwa bagenewe gukora ibikorwa ngororamubiri, birimo nka siporo, gusa Uwimana Donatira we avuga ko, ibyo bitagakwiye kuba ibyabo gusa.

Mu gikorwa ngarukakwezi kizwi nka car free zone, bamwe mu bakobwa b'abanyeshuri biga mu kigo cyitwa Fawe girls mu mujyi wa Kigali, bakomeje kwitabira ibi bikorwa bitewe n'uko bibafasha.

Igihe umuntu amaze gukora siporo, ni ngombwa kugira ngo afate nibura ibirahure bitanu by'amazi. Kugira ngo agaruze ingufu aba yatakaje ndetse n'imyunyu ngugu aba yabonye agoye.

Mu gihe cy'umupira w'amaguru, uri gukinwa hari abantu bavuga ko habamo ingaruka nyinshi, birimo ibyago byo kuba banahaburira ubuzima, gusa ariko abaganga baturuka muri Red cross, baba babukereye kugira ngo bafashe buri wese ugize ikibazo.

Kwikora mu mugongo ndetse no kurambura imitsi y'amaboko n'amaguru mu gihe umuntu ari kumva akaziki; ni imwe muri siporo intagereranywa bitewe n'umumaro wayo.

Siporo na yo ni igisubizo gituma umuntu agira ubuzima bwiza ndetse imikaya ye n'amagufwa ye bigakomera, ariko hari benshi bahitamo kwikinira imipira y'amaguru, iy'amaboko n'iyindi mu cyimbo cyo kwirukanka.

Gukora siporo kenshi bigira ingaruka nziza ku mubiri, igihe umuntu atabyubahirije ashobora kurwara indwara nyinshi, zirimo iz'imitsi ndetse abandi bakazita za rubagimpande.

Uko abantu bakomeje kwiyongera ni na ko indwara y'umutima ikomeje kuba ikibazo mu buvuzi bw'isi, imwe mumpuguke z'abaganga ituruka mu gihugu cy'Amerika, hari byinshi yagiye ituganiriza.

Inshinge, imiti irinda kwandura ndetse n'ibindi bifasha abaganga kugira ngo babashe kwita ku barwayi baje babagana bitewe n'uko igihe ibi bikoresho bidahari ntacyo babafasha.

Kigali univase, ni inyubako yashyiriweho kugira ngo abantu bayigana, bakore ibikorwa bitandukanye by'imyidagaduro, harimo kugorora imibiri, ndetse no kubyina, mu gihe byitabiriwe birafasha cyane.

Abaganga bavura bakoresheje imiti ya gakondo bari kugirwa inama yo kurekeraho, kuko ari bimwe mu biteza ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu igihe yanyoye iyo miti.

Uko urujijo rukomeje kugenda ruzamuka mu baturage, hari bamwe bakomeje kwibaza imiti abavuzi gakondo bakoresha, niba itashobora guhitana ubuzima bw'abantu, igihe ikoreshejwe hagamijwe kwishakira amafaranga.

Ibikorwa bya gakondo birimo ubudozi, ubukorikori ndetse n'ibindi, bikomeje gutanga agatubutse ku bantu babikora, twaganiriye na bamwe batuye mu karere ka Muhanga batubwira byinshi kuri byo.

Abaganga gakondo baba bazwi nk'abakonikoni, bakomeje guteza inkeke na Leta y'u Rwanda kuko bahagurukiye bitewe nuko igihe abantu baje babagana, bahava bavuyemo umwuka bitewe n'ubuvuzi bwabo bubi.

Ikibabi cy'umusave, iyo ukivanze n'amazi n'indimu ukakinywa, ibicurane bigenda nka nyomberi, kuko ubushakashatsi bubigaragaza buvuga ko umusave ari ingenzi.

Amavuta arimo ay'igikakarubamba ni meza cyane ku buzima bw'abana ndetse n'abantu bakuru. Kubera ko iyo igikakarubamba gikozwe neza kigatunganywa, kivura indwara nyinshi harimo n'umunaniro ndetse n'agahinda gakabije.

Ibidegede nabyo birihutirwa mu gihe abantu bari kubikoresha bashaka ibyo kurya kuko biba birimo intungamubiri zihambaye, ugereranije inyungu ndetse na soya.

Ubuvuzi bwa kera buvuga ko abantu iyo bavuganaga mirongo itanu ku ijana byabo bahakuraga igisubizo cyiza, abandi mirongo itanu bakaba bahasiga ubuzima. Ibi bikaba ariyo mpamvu busabwa guhagarikwa.

Mu gihe bamwe bakomeje gutaka ibibazo bahura nabyo bituruka ku mwanda, ubushakashatsi bwagaragaje ko amibe ari indwara ishobora kumunga ubuzima bw'umuntu mpaka arindimutsi, aho inyonyuza intungamubiri yakagombye kubaho neza, ikazijyanira.

Igikakarubamba ni umuti mwiza uvura ibiheri, amavunane ndetse n'izindi ndwara zitandukanye z'uruhu, ibi bigatuma buri wese akangurirwa kujya agikoresha kugira ngo abe yabaho neza.

Abaganga barashishikarizwa guhora bambaye neza igihe bari guhangana n'indwara z'ibyorezo, iyo batabikoze batyo, bahura n'ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwabo ndetse harimo no gupfa.

Kunywa nibura utuyiko turenze dutanu tw'umuti wa kinyarwanda, nibyo abavuzi gakondo bagarukaho ko, hari imiti yo kwisiga ndetse n'indi yo kunywa, mu gihe umuntu wese yaba ayikeneye.

Irya isombe ni indyo imenyerewe ku bantu bamaze iminsi babyaye, ndetse n'abandi barwaye icyo gihe rero iyo bikurikijwe neza usanga igira umumaro mwinshi mu mubiri.

Abanyarwanda kera ntibari bazi agaciro k'uruyuzu, ariko ab'ubu ngubu bakomeje gukataza mu bikorwa bigamije kurugana banarya imbuto ziruturutseho kuko ziri mu zirinda indwara, ubuzima bwabo bukagenda neza.

Amavide arimo imiti yitirirwa ngo ni iya amibe, atuma akenshi abantu bagira impungenge z'uko bashobora kuhasiga ubuzima kubera kubura umutekano n'icyizere.

Bimwe mutera impungenge mu buvuzi gakondo, ni uko abo baganga bakoresha imiti ipfunyitswe mu mapurastike. Kandi ntago yemerewe gukoresha mu Rwanda, kubera ko iyo igiye mu butaka itajya ibora.

Abakorera ubucuruzi mu bigo by'itumanaho mu Rwanda bizwi nk'imbuga nkoranyambaga, harimo ikitwa Arianse barataka igihombo bakomeje guterwa n'ibi bigo, bitewe n'uko bibambura amafaranga yabo.

Umuravumba ukomeje guca agahigo ko kuba umuti uturuka ku kimera kizwi n'abantu benshi, bimwe bakaba barabikuyeho n'ibitebyo bivuga ngo "uyu muntu azwi nk'umuravumba" bivuze ko azwi ahantu hose.

Imiti dukoresha cyane irimo n'imibavu ndetse n'ibindi yo kunywa, usanga inanasi ndetse n'imineke bifasha mu gukorwa kw'iyo miti kubera ko byongeye imbaraga za nyirabyo.

Udusekuru dusekura imiti ya kinyarwanda turakemangwa bitewe n'uko duhurizwamo imiti myinshi bikaba byatera ikibazo ku bantu ba consoma iyo miti, ni byiza rero kwitwararika mu gihe uri kuyikoresha.

Aloe Lips ni umuti wifashishwa mu gusiga ku munwa, mu gihe abangavu ndetse n'abari n'abategarugori babikoresha, baravuga yuko bibahenda kuko kamwe kagura bibiri.

Vitorayize ni ubwoko bw'umuti ufasha abantu bagira intege nke igihe bari ku rugamba ko bagomba kunywa nibura utuyiko tubiri kugira ngo biyongerere icyizere ndetse n'umutuzo mu buzima.

Bamwe mu batuye mu Murenge wa Rukomo, mu Karere ka Kirehe baratangaza ko ibikorwa by'ubuvuzi gakondo bikomeje gufata indi ntera, aho buri wese abyuka mu gitondo yigize umuganga kugira ngo abone uko acucura abaturage.

Igitunguru, indimu ndetse na vinegere. Igihe buri wese abifashe kabiri mu cyumweru bimwongerera ubudahangarwa bwo guhangana n'indwara z'ibyorezo, harimo igitunu n'ibindi byibasira ibice byo umubiri.